Umukobwa wambaye ijiri ya MTN, wambaye n'agapfukamunwa, afite n'akabogisi mu ntoki ndetse n'imbere ye, hari akameza k'umuhondo, kariho terefone ye ya gatushi.

Igishashi kibamo amakaramu bita bike. Iki gishashi bakunze kukiranguriramo ayo makaramu kugira ngo uyaranguye na we ayagurishe, haba ku banyeshuri cyangwa ku bandi bantu ngo na we aze kubona inyungu.

Kenzi tomato pesite nyinshi cyane abantu bakoresha bateka isosi, bazishyira mu isosi kugira ngo iryohe wazishyira mu biryo ibyo ari byo byose inyama n'ibindi.

Inzu yubatse neza iteye irangi ry'umweru ifite imirasire hejuru yo gukurura izuba kugirango abashe kubona urumuri ruturuka ku mirasire y'izuba mu buryo.